Aha ni ahantu hari kubera inama ihuje abantu b'abayobozi kandi buri wese ateze amatwi ibiri kuhavugirwa.

Aha ni ikigo gishinzwe ubutabera aho imodoka ziparika hariho na parikingi imodokadoka ziparika aho.

Aha ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru aho ikipe imwe iri gukina n'indi umukino wa gicuti wayihuje.